Icyumba kinini cyane kiberamo inama rusange, abanyamuryango bose bakaba bahuriyemo kandi bakaba bicaye neza bakurikiye, bose bakaba bicaye imbere y'ameza yabo bakurikiye ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu bari mu nama barimo kuganira ku buryo bateza imbere ikigo cyabo cy'ubucuruzi, kikabasha kunguka amafaranga menshi yabagirira akamaro bo ku giti cyabo.

Abaturage baje kwirebera abayobozi babo, bakanumva ibyo babateguriye, abayobozi nabo bateguye ijambo bari buze kugeza ku baturage, barimo kuza aho inama iri bubere.

Abagabo batatu babiri ni abayisiramu kuko bambaye ingofero z'abisiramu, undi ni umuntu usanzwe utari umwisiramu ari kubereka mu mashini ye ibintu by'ingenzi bagomba kumenya mu buzima bwabo.

Abagabo n'abagore bicaye mu mahugurwa barimo guhabwa, bose barakurikiye.

Kigali yacu, Kigali icyeye, iyi ngiyi ni hashitage y'Umujyi wa Kigali, ubuyobozi bw'Umujyi wa Kigali bukaba burimo bushyira imbaraga mu kugira ngo Kigali ibe isukuye kandi ikeye, ari Umujyi ubereye ijisho.

Umugabo ufite mikoro urimo uratanga igitekerezo mu nama nyunguranabitekerezo arimo kandi abandi bose bamuteze amatwi kuko baratuje, bari kumva neza igitekerezo arimo aratanga.

Inyange indasitirizi, bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, aho barebera hamwe umusaruro mbumbe wabonetse mu mwaka ushize, bakareba niba barungutse cyangwa se barahombye ugereranyije n'umwaka ushize.

Abagabo bari mu nama nyunguranabitekerezo bari kumwe n'abagore bakorana, umugabo uri imbere afashe mikoro arimo kubasobanurira neza uko ibintu bimeze byose.

Umuyobozi uri mu nama uri kumwe n'abandi bayobozi mu nzego za leta zitandukanye, harimo iza gisirikare iza gipolisi n'abandi bakaba barikugeza ku baturage ibyiza by'ubwizigame mu kwivuza.

Abaturage batandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo hakubiyemo abasirikare ndetse n'abandi bagiye batandukanye, baka bari kurebera hamwe uburyo bakwiye gukora ibintu by'ingenzi.

Umugabo urimo uratanga ikiganiro, akaba arimo aramenyesha abanyeshuri be yuko bagomba gukora cyane kugira ngo bazatsinde amasomo arimo abigisha, abanyeshuri be bose bafite imashini bakoreraho imikoro.

Abantu bicaye mu nama, buri wese yahawe amazi yo kunywa kugira ngo babashe kuba bagira imbaraga zo gukomeza inama yabo, ameza aba imbere arateguye neza ariho igitambaro cy'umweru.

Abagabo n'abagore bari mu nama bari kungurana ibitekerezo ku cyo bahindura ku buryo koperative yabo, ishobora kugira icyo igeraho mu myaka itatu iri imbere, babanje kandi gusobanurirwa neza aho bavuye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo. Imbere yabo hateretse amazi na ji, bari gukorera ku meza meza cyane azengurutse afite ibara ry'umutuku. Aba bayobozi bose baricaye baratuje bari kumva ijambo.

Abagabo n'abagore bose bicaye bahanze amaso ibyo umuyobozi wabo arimo aratanga mu mahugurwa, kandi barakurikiye kugira ngo bazabashe kuba babishyira mu bikorwa.

Abaturage bari mu nama bose bicaye mu myanya yabo mu ntebe z'imikara, hari abazungu, abirabura, abagabo, abagore bose bateze amatwi.

Abantu benshi bicaye bategereje yuko inama itangira, kandi bose baratuje bafitiye na telefone kuko bari buze kuzikenera muri iyo nama wenda mu gihe biraba bibaye ngombwa.

Abayobozi n'abaturage bari mu nama bose bicaye mu ntebe zabo kandi baratuje. Abagabo n'abagore bose bari kumva ijambo umuyobozi wabo ari kubagezaho.

Abagabo n'abagore bari mu nama, barimo kungurana ibitekerezo by'ukuntu barwanya ihohotera rikorerwa abagore, umugore umwe afasha ijambo arahagurutse kugira ngo abasobanurire.

Umuyobozi ku rwego rw'akarere wasuye abaturage bicaye hamwe bose batuje kugira ngo abasobanurire neza imikorere y'inzego za leta, bityo babashe kuba bamenya amakuru.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama barimo barareba icyo umuyobozi ari kubabwira. Bicaye ku meza magari manini kandi akozwe mu biti.

Abagore, abagabo, bose bambaye ikarita z'akazi, kandi baricaye barakurikiye. Imbere yabo hateretse amazi bagenda basomaho gake gake kugira ngo bakomeze inama.

Abayobozi batandukanye bari mu nama bari kungurana ibitekerezo kuburyo ingamba bafata zishobora kuba zagirira akamaro kuko ihindagurika ry'ikirere rikomeje guteza ibintu bibi bitandukanye mu gihugu.

Abantu bari mu nama, umwe muri bo afite imashini, arimo arandika imyanzuro y'ibiri kuvugirwa mu nama, umuyobozi wa bo ni umugore wambaye imyenda ya oranje, afite mikoro ndetse yahaye umwe muri aba bakozi be mikoro kugirango atange igitekerezo.

Abaturage baje imbere y'akagari, kugira ngo basobanurirwe neza serivisi zigiye zitandukanye za ejo heza, kuko ari bo bifitiye akamaro kandi kuzumva kwabo ni ingenzi kuri bo.

Umugabo urimo uravuga imigabo n'imigambi ye, akaba afite n'imashini imbere ye imufasha gukora poroje ze kugira ngo azabashe kuba yazigeraho neza kandi ari kuvuga yuko ibyo azabagezaho byose ari mu izina rya kampani.

Abagabo batatu bicaye hamwe n'umugore umwe barimo kwandika ku rupapuro kugira ngo bazabashe kumenya y'uko hari imihigo bahize.

Abagore batandukanye bari kumwe n'ababyeyi batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama bose bakaba bategereje yuko inama itangira, hafashwe agafoto k'urwibutso kazabereka y'uko bari bari muri iyo nama yabaye.

Abari bari mu nama barayisoje bose bambaye udupfukamunwa, abagabo n'abagore bose barahagaze kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso bazajya bibukiraho iyi nama.

Ukwezi ko gushimira abasora, Rwanda reveni otoriti yashyizeho ukwezi kwihariye ko gushimira abasora. Uruhare rw'imisoro mu iterambere mu karere ka Burera, bikaba ariho uyu munsi mukuru uri buze kubera.

Murakaza neza kuri serivisi z'igura n'igurisha zo mu Rwanda, uru nguru ni urubuga rwabashyiriweho kugira ngo muzajye mubasha kugura ibyo mushaka byose kandi bibagereho nta kabuza kandi bidatinze.

Repubulika y'u Rwanda, komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta bikaba byarabaye muri mata bibiri na makumyabiri na gatatu.

RDB ni Rwanda developumenti bodi, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'u Rwanda, muri rusange kikaba gitanga serivisi zigiye zitandukanye, urugero serivisi z'imiturire ndetse n'ibindi, ibi byose ni ho bibarizwa.

Icyapa cyerekana yuko hano hari wifi y'ubuntu, ku bakiriya bayo bose bashobora kubaza password, bityo nabo bakabasha gukoresha iyi interineti y'ubuntu.

Gahunda ya byikorere iracyakomeje rwose, hitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo ubyikoreye wibereye mu rugo iwawe bikoroshye, jya ku rubuga rwa www. irembo.gov.rw.

Uburyo ushobora gukoresha kugira ngo EBM yawe wongere uyihindurire ijambo banga, mu gihe ryagize ikibazo, mu gihe ubona bikomeje kugorana ushobora gukanda imibare ikurikira ukabahamagara bakagufasha mirongo itatu, zeru kane.

Ahantu hakoreshwa n'uruganda rutanga ingufu z'amashanyarazi rukaba rutanga agera kuri kirowate ibihumbi icumi byifashishwa mu nganda ndetse no gucanira abaturage muri rusange.

Ukwezi kwa cumi n'abiri kw'imisoro, ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, ikaba ari umunsi wa nyuma wo kudekarara ndetse no kwishyura imisoro.

Uburyo bw'irembo bwa byikorere buroroshye cyane kuko bworoshya akazi ndetse no guta umwanya urimo kujya gushaka abantu bagufasha ushobora kwiyandikisha ku irembo bityo nawe ukagiramo konti ukazajya ubyikorera wibereye mu rugo.

Umunara wa Tigo na MTN ukoreshwa na sosiyete z'itumanaho, ibi ngibi akaba ari byo bituma ubasha kwandika mesaje ikagera k'uwo igomba kugeraho, nawe akagusubiza, ikindi kandi mushobora guhamagarana nta kibazo kibaye.

Rejisita tu i rekiriyimenti, ubu ni uburyo bworoshye kandi bwihuse ushobora kuba wakikorera konti yawe, muri i rekiriyimenti, bityo nawe ukazajya ubona akazi ka mifotara bitakugoye.

RWANDA FORESTRY AUTHORITY, akazi kayo ni ugucunga neza amashyamba, kuko ari umutungo kamere, kandi bakaba banayafasha mu gihe atangiye kuzimira, bagashyiraho ingamba zigamije kuyarinda.

Abagabo bicaye ku ntebe uko ari babiri bose barategereje gusa bicaye imbere ya mudasobwa barimo gukoreraho ibintu by'ingirakamaro, gusa umwe muri bo we ari kuri terefone ye.

Umunara muremure cyane wa emutiyene, utangaye netiwaka ahantu kure cyane, mu nshe z'ibyaro. Ukaba ukoresha enterinete, kandi abaturage bakabaho bameze neza, bafite itumanaho.

RGB Rwanda gavanensi bodi, iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda, ibibazo byose bijyanye n'abayobozi ndetse n'imiyoborere, bikemurirwa muri iki kigo cya RGB.

Itariki ntarengwa yagenwe, na Rwanda Revenue Authority. Kugira ngo mube mwamaze kumenyekanisha, no kwishyura umusoro. Ku itariki mirongo itatu z'ukwacyenda bibiri na makumyabiri na kane.

Kwigaragaza ku bushake Rwanda reveni otoriti irasaba abantu bose kumenyekanisha umusoro, akaba itariki ya nyuma ntarengwa ari makumya neshatu z'ukwa cumi babiri na makumyabiri na kane.

Abana batatu bari kumwe n'umuntu ubarera, barimo kwiga ubugeni, buri wese bashingiye ku byo akunda, arimo gukora ibyo akunda gukora, kandi barimo gukoresha ikoranabuhanga.

Hari uburyo bworoshye kandi bwihuse bw'irembo ushobora kuba wakoresha kugira ngo bikorohere gusaba serivisi ushaka gukurikiza ubu buryo bukurikira ukandikamo wa wa wa, akadomo, irembo, akadomo govu, akadomo rwa.

Irembo irembo yazanye uburyo bwa byikorere, aho ushobora kwishyura serivisi zigiye zitandukanye ukabyikorera wibereye mu rugo rwose iwawe, urugero ushobora kwishyura mituweli ukoresheje urubuga rw'irembo, kanda akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego maze wemeze.

Umunara w'itumanaho muremure cyane ukaba uba uzitiye n'ibikoresho byawo kugira ngo bitangirika uyu munara uri mu mabara y'umutuku umweru ndetse n'umukara.

Serivise za leta zishobora gutangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Urugero nka serivise za rura. Ushobora kugira konti, nawe ukazajya wisabira serivise zitandukanye za rura.

Ti Isaac papeteri ahangaha hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari n'ibicuruzwa byinshi ariko ukaba ushobora kuba wanafotoresha, hakaba hari ndetse n'icyuma cy'Inyange ku buryo ushobora no kuba wanywa amata igihe cyose ushaka.

Amabwiriza agenga abatanga serivise za mubayilo mani mu rwego rwo kurwanya korona virusi, aya yari amabwiriza yatanzwe kandi asobanutse neza ya minisiteri y'ubuzima, kugira ngo bahangane n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Umunara muremure cyane w'itumanaho wa Emutiyene na Eyateri, ukaba wifashishwa kugira ngo hakwirakwizwe konegisiyo mu baturage zigere kure, bityo buri wese azajye abone uko ahamagara kandi abona uko akoresha enterinete.

Kiyosike ikoreraho Irembo, ikaba irimo umukozi ukora iby'irembo ariko akaba atanga na serivisi zigiye zitandukanye za banki ya BK, ubwo rero ni ukumugana ku bifuza serivisi zigiye zitandukanye zaba iz'Irembo na BK.

Uburyo Rwanda reveni otoriti yashyizeho bwo kuba wakidekararira ndetse ukishyura umusoro onurayini, ukaba usabwa kuba ufite konti mu irembo gusa, ushobora kandi no kuba wasaba ibiyemu fagitire y'ayo, bityo ukabasha kubona icumi ku ijana by'inyungu ya teveya wishyuye.

Wiyare hayaringi, turimo gutanga akazi ushobora kujoyininga ikipe yacu, turimo turashaka abantu bazi gukoresha EBM kandi bakaba banazikanika mu gihe zapfuye, kontara imara umwaka umwe.

Kiyosike ikoreramo umu ajenti akaba atanga serivisi zitandukanye nk'iz'irembo, iz'amabanki atandukanye. Iruhande rwe hari inzu nini yubakishije amatafari ahiye, ikorerwamo n'abacuruzi.

Serivisi zindi zibazwa abantu bashinzwe ubutaka, hari ibibazo abantu bakunze kubaza. Icya mbere, ni gute nabona amakuru ku butaka? Amakuru ku butaka yaboneka hakoreshejwe mu buryo bw'ikorana

Irembo intambwe ya gatatu hitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye ubu ni uburyo bushya bw'irembo ushobora kuba wakwifashisha ukabyikorera wibereye mu rugo.

Tengamara na TVA Twongeye kubatengamaza. Ishimwe kuri TVA, ryongeye gutangwa. Iyo usoze neza urahembwa. Ibi ngibi ni ukugira ngo Rwanda Revenue, ifashe abasora gusora neza kandi bishimye.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi ririho taransifa ishinzwe kuba yagabanya umuriro cyangwa zikawongera, mu gihe bibaye ngombwa mu gihe hakenewe umuriro mwinshi ifasha mu kuwongera.

Umuhanda nyabagendwa urimo na dodani zifasha abatwaye ibinyabiziga kugabanya umuvuduko, iruhande hariho ibiti binini cyane bitanga akayaga keza n'umwuka wo guhumeka.

Mu kigo REG, kikaba ari Ikigo Gishinzwe Gutanga Ingufu z'Amashanyarazi mu Rwanda, Rwanda Energy Group, kikaba kirimo kirerekana ububiko bw'umuriro w'amashanyarazi, aho bugiye buherereye, bukaba bufasha mu bikorwa bitandukanye.

Bisi yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwarusange inyuma yayo, hari taransifa itwara umuriro w'amashanyarazi iwujyana mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iteretseho taransifa yifashishwa mu kuba yatunganya umuriro ukagera ku baturage batuye kure cyane, iyi ni ingenzi mu buzima bwabo.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi rikaba rinariho itara rimurikira abagenda muri uyu muhanda, iruhande rwayo hakaba hari igiti kinini kiyungurura umwuka duhumeka.

Ubusitani bwiza cyane burimo ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari n'icyapa kibuzanya kuba wahegera kuko bishobora kuba byateza impanuka. Hari ubusitani buteyemo indabo nziza zitandukanye iz'ubururu iz'umutuku n'izindi.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi. Iruhande rwayo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Mu gipangu mo imbere harimo inzu nyinshi zitandukanye, zifite amabati y'umutuku. Hari n'indabo nziza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo icyapa cyerekana y'uko uyu muhanda iyo ugeze mbere gato winjirwamo n'undi muhanda uva mu gakaritsiye, iyo abashoferi bahageze baba bagomba kwitonda.

Uruganda rutanga ingufu z'amashanyarazi REG, rukaba rwerekanye ahantu hashya rwaba rwafunguye hazajya hunganira ahari hasanzwe hakoreshwa, kandi bahatashye ku mugaragaro.

Itara rimurikira umuhanda nyabagendwa mu gihe cya n'ijoro, kugira ngo abawukoresha bagende ba bona. Iruhande rwaryo hari ipoto y'amashanyarazi ikwirakwiza umuriro mu mujyi hose, hari n'ibiti kandi bikomeza kugira umujyi mwiza.

Amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage kugira ngo bakomeze gukora imirimo yabo kandi babashe kubona ayo gucana, hari na taransifa ishinzwe kubongerera ingufu no kugabanya umuriro.

Abantu barimo kugana muri Simba supamaketi ya Kimironko kugira ngo bahahe, hafi yaho hari parikingi nini bashobora guparikamo, hari abantu bari kujya muri gahunda zabo.

Inyubako isize amarangi y'ubururu, indi bifatanye yo isize amarange y'umuhondo, iruhande rwazo haparitse imodoka yo mu bwoko bwa toyota heregisi, hafi yaho hari ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto z'amashanyarazi zikoreshwa mu gihe zirimo kujyana umuriro kure cyane, bityo abaturage baho bo mu byaro bakabasha nabo kuba babona umuriro, bakabasha gukora imirimo ibateza imbere bakanacana bakabona.

Ipoto y'amashanyarazi iriho n'itara rimurika, hafi yaho hari ibiti byiza cyane bitanga akuka keza ko guhumeka. Hari amazu meza yubakishije amatafari ahiye asize amarangi y'umweru.

Ipoto y'amashanyarazi yifashishwa mu kujyana umuriro mu nce za kure zo mu gihugu kugira ngo buri muturage wese ahari abashe kugerwaho n'umuriro. Ibi ng'ibi bikaba byongera uburyo bwe bwo kubaho kuko abasha kubona ibimutunga.

Ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi hafi yaho hari n'itara kuko ibi byombi biteye ku muhanda nyabagendwa, kandi hakaba haba habona n'ijoro abakoresha uyu muhanda bakabasha kuba bagenda umutekano wabo wizewe bose.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi yifashishwa mu gutwara amashanyarazi mu bice bitandukanye, iruhande rwayo hari inzu ndende igeretse ikaba yubakishije beto ikomeye.

Imodoka ziparitse ndetse na moto ziparitse kugira ngo zishake abagenzi. Hafi yazo hari umuhanda nyabagendwa ku mpande z'umuhanda, hari inzu zitandukanye z'ubucuruzi.

Taransifa y'umuriro w'amashanyarazi ikaba ishinzwe kugabanya umuriro cyangwa se kuwongerera ingufu mu gihe bibaye ngombwa, ikaba iba iteretse ahantu hamwe hari agace kanini gatuyemo abaturage.

Umuhanda ny'abagendwa ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kari gucamo abaturage bajyiye muri gahunda zabo, hepfo y'umuhanda hari ibiti byiza bitanga umwuka duhumeka hakurya hari ishyamba rigari.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikaba irimo abagenzi ibajyanye aho bagiye urugero wenda bagiye nk'i Musanze cyangwa i Muhanga hafi yaho hari izindi modoka ziparitse zifashishwa mu y'indi mirimo ifitiye igihugu akamaro urugero nk'ubwikorezi ndetse n'ibindi.

Icyapa cyerekana yuko gukatira iburyo bibujijwe. Abashoferi bose baba bagomba kugikurikiza. Hafi yacyo hari ipoto y'amashanyarazi, ijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage. Hari n'amatara kandi acana mu gihe bwije.

Ipoto ririho umuriro w'amashanyarazi insinga zimwe zikaba ziri kujya mu baturage, izindi zigakomeza kugira ngo zijyane umuriro kure cyane aho bawukeneye umuturage ufite umuriro w'amashanyarazi afite inzu isize irange ry'umutuku.

Igipangu gifite irangi ry'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi ndetse n'ubururu bwijimye, ikiriho icyapa kinini cyamamaza eyateli foji, iki gipangu kandi kikaba cyanditseho mitsingi.

Ahabikwa gaze amacupa ya gaze ahari hakaba hari ay'ibiro bigiye bitandukanye by'umwihariko hari amacupa agera ku munani amacupa atatu y'ubururu andi macupa atanu y'umweru hakaba hari n'icupa rimwe ry'umukara.

Inzu igeretse kane iruhande rwayo hari ibirabyo bihagira heza, iyi nzu isize irange ry'umuhondo hari umugore urimo kuyinjiramo kuko hari farumasi ikoreramo n'iyo agiyemo.

Ibitaro biriho imbangukiragutabara n'abakozi b'ibitaro b'abaganga, biteguye guhita bakira abarwayi bari bube bazanywe na zo. Ku ruhande hari abaturage bicaye bategereje, kugira ngo bagerweho, na bo bavurwe.

Ahakorera ibigo by'ubucuruzi bitandukanye. Hakaba hari parikingi nini irimo imodoka ebyiri, hakaba naho guparika moto. Buri nyubako igiye ifite ikigega gifata amazi.

Imbangukiragutabara yifashishwa mu kujyana umuntu wahuye na agisida cyangwa se uri muri kondisiyo mbi zishobora kuba zanatuma yapfa, ikaba yamwihutisha ikamugeza ku bitaro, iparitse iruhande rw'aho bavurira indwara zitandukanye.

Parikingi nini cyane ishobora kujyamo imodoka nyinshi icyarimwe, ikaba yajyamo imodoka zirenze magana abiri zose ziparitse zimeze neza kandi umutekano wayo urizewe rwose ntacyo ziba.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti by'imikindo bikaba bihagira heza cyane, hari na parikingi nini ishobora kujyamo imodoka nyinshi kuko haparitsemo n'izindi. Amashuri meza cyane yubakishije amatafari ahiye.

Surgery hospitarization. Aha ngaha ni aho babagira mu bitaro bikuru, aha ngaha kandi ukaba wahaza ufite uburwayi bujyiye butandukanye, bakagufasha rwose. Ni ibintu byoroshye kandi byihuta.

Ibitaro bya CHUK, iyi ngiyi akaba ari koridoro unyuramo kugira ubashe kuba wakinjiramo, hakaba haba serivisi zitandukanye zirimo kubaga umutima ndetse n'ibindi.

Imfungwa n'abagororwa barimo gusohoka muri gereza nini cyane ya Nyarugenge, kugira ngo bajye mu mirimo ifitiye igihugu akamaro. Izi mfungwa n'abagororwa ni abagore gusa, bakaba baba ku gice cy'abagore.

Imfungwa n'abagororwa batonze umurongo, bagiye gusohoka kugira ngo bajye mu bihano byabo bagomba gukora imirimo nsimburagifungo kandi ikagirira akamaro igihugu.

Ifoto y'urwibutso yafashwe mu cyumba k'iburanishirizwamo urubanza rw'uregwa, ni ukuvuga yari afite umwavoka n'umushinjacyaha bombi baba bicaye imbere bari mu maso y'umucamanza.

Urukiko rukuru urugerero rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi, iyi ngiyi ni raporo igaragaza uburyo iryo buranisha ryagiye rigenda.

Abayobozi batandukanye bashyizweho mu nama y'abaminisitiri. urugero misita Karidi musa tafari ni ambasaderi muri purinosiya pabulike ofu Sudan. Uwo bita misita Aruferedi dombe uyu nguyu ni ambasaderi muri repubulika ya Angola. Dogiteri Habibi Cariyusi kambanga na we ni ambasaderi.

Imfungwa n'abagororwa bakaba barimo gukoreshwa imirimo nsimburagifungo kugira ngo ibashe kuba yagirira igihugu akamaro kandi nabo be gupfa ubusa, bakaba basubiye aho baba.

Umugabo urimo kureba muri kamera kugira ngo baze kuba bafata ifoto iri bushyirwe ku byangombwa bye bishya kuko ari umucamanza mushya warangije amasomo ye y'ubucamanza akaba yiteguye gukora akazi.

Serivisi za leta zigaragaza neza uko ibintu bikorwa, urugero imanza zishingiye ku mirongo imenyerewe, kwemera icyaha bwa mbere mu bujurire ntibigirira akamaro uregwa.

Igazeti ya Leta yo ku itariki ya makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani ingingo yayo ya cumi n'icyenda ukutaryozwa icyaha cya ruswa umuntu watanze ruswa cyangwa wakiriye indonke mu rwego rwo gufasha ubutabera kubona ibimenyetso ku cyaha cya ruswa.

Umugore urimo gutanga itangazo akaba ari we uhagarariye inama, ari kubwira abaturage cyangwa se abakozi be; bakaba bamuteze amatwi bitonze kandi bishimye.

Umucamanza uri gufatwa ifoto akaba yambaye imyenda y'imituku, ikanzu y'umutuku ndetse yambaye n'ishati y'umweru, yambaye amarinete n'ingofero y'umukara.

Urukiko gacaca rurimo kuburanisha umunyabyaha cyangwa se umuntu uregwa n'abaturage bose barahari urubanza ruri kubera mu ruhame, arimo arabazwa ndetse nawe akagerageza kwisobanura.

Igazeti ya leta yo ku makumyabiri z'ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani, by'umwihariko ku ngingo yayo ya munani, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa icyenewabo.

Abaturage bari mu nama basuwe n'abayobozi babo bakaba barimo kuganirizwa bicaye ahantu hari ibiti bitanga akayaga keza n'amahumbezi bose baratuje barakurikiye.

Ifoto y'umucamanza wasoje amasomo ye witeguye kuba yajya mu kazi agakora ibihuje nibyo yize kandi agakora kinyamwuga arimo arafatwa ifoto kugira ngo akorerwe ibyangombwa byemewe na leta azajya akoreraho.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza ishati n'ikabutura n'inkweto z'umukara ari kumwe n'abavoka be, umwavoka we umwe ni umugore undi ni umugabo.

Umucamanza w'umugabo wambaye imyenda y'umutuku ishati y'umweru na karuvati y'umukara akaba yiteguye gukora akazi nkuko yabyiyemeje.

Igazeti ya leta nimero makumyabiri z'ukwakenda, bibiri na cumi n'umunani, by'umwihariko ku ngingo yayo ya cumi na rimwe, ivuga gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe.

Ifoto y'urwibutso yafashwe umucamanza igihe yari arangije amasomo ye akaba yaragira ngo akorerwe ibyangombwa byiwe kandi byemewe na leta y'u Rwanda kugira ngo abe umucamanza wemewe n'amategeko.

Umucamanza w'umugabo wambaye ikanzu y'umutuku na karuvati y'umukara, ishati y'umweru, akaba arimo arareba muri kamera kugira ngo abashe kuba bamufata ifoto yo gushyira ku byangombwa bye.

Abacamanza babiri barimo kurahira imbere y'ababishinzwe, barifashe ku idarapo kandi bamanitse ikiganza cy'iburyo kugira ngo barahirire kuzakorera igihugu cyabo.

Igazeti ya leta yo ku wa kane z'ukwa munani umwaka ni bibiri na makumyabiri na gatatu by'umwihariko ku ngingo yayo ya cumi aho ivuga y'uko yemeje ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y' u Rwanda.

Isubiye ku itegeko nimero zeru kane bibiri n'icyenda yo ku wa cumi na kabiri werurwe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, rishyiraho komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu.

Kizimyamwoto zifashishwa mu gihe hari inkongi y'umuriro ibaye mu nyubako, iyo iri hafi ihita yifashishwa bityo bikarinda iyangirika ry'inyubako ndetse n'izindi mpanuka zishobora gutezwa n'inkongi.

Ibinyabiziga byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, mu gihe zabereye ahantu kure. Ibi binyabiziga ni ibya polisi y'u Rwanda byifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro, kugirango itangiza ibintu byinshi n'abantu bakahagendera.

Ikipe ishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, irimo irakorera hamwe kugira ngo ifatanye kandi ihoshe inkongi y'umuriro kugira ngo idakomeza kwibasira ibikorwa remezo bitandukanye.

Kizimyamwoto itanga amazi ashobora kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe ifashe ahantu hagari, bityo ikaba yarinda kuba ibintu byakwangirika, bigashira burundu.

Umukozi ushinzwe gukumira inkongi y'umuriro, yambaye yikwije kandi arimo arakora akazi ke. Afite kizimyamwoto ifite ubushobozi bwo kuba yazimya inkongi y'umuriro kugira ngo itangiza.

Ingabo za leta y'u Rwanda polisi yigihugu cy'u Rwanda ihagaze ku murongo bose bafite imbunda kandi ni benshi. Umuyobozi wabo arimo kubaha amabwiriza.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peterori, kibivana mu gihugu kimwe kibijyana ahandi, iki ni ikinyabiziga kizanye ibicuruzwa bikomoka kuri peterori mu Rwanda.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri mu kazi, arimo guhagarika bisi itwara abagenzi ku ruhande kugira ngo arebe ibyangombwa byayo.

Icupa rya kizimyamwoto riba riteretse ahantu buri wese ashobora kugera mu nzu, kugira ngo igihe habaye inkongi riza kwifashishwa mu gukumira iyo nkongi no kuyizimya.

Imodoka yo mu bwoko bwa purado landikuruza ihagazeho umupolisi wambaye agapfukamunwa wambaye na inifomo, akaba arimo arabaza ibyangombwa bya nyiri ino modoka kandi birakwiye.

Abayobozi harimo abapolisi n'abayobozi b'ikigo, barimo gusobanurira abanyeshuri, uburyo kizimyamwoto zikoreshwa, kugira ngo igihe habaye inkongi y'umuriro bazamenye kuyikoresha bayikumira.

Abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda biteguye kujya mu butumwa bw'amahoro mu kindi gihugu, kandi bose barimo guhabwa amabwiriza y'ibyo bazakora ndetse n'uko bazitwara nibaramuka bagezeyo.

Aho imodoka za polisi ziparika kuri sitasiyo ya polisi, iparitseho imodoka zabo zikoreshwa mu kazi harimo pandagare hakabamo n'indi modoka nini ya vani itwarwamo abantu.

Abaturage babyukiye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wabo w'ishyaka efuperi Inkotanyi bakaba bari kubyina indirimbo nyinshi zirimo kumuvuga imyato n'ibigwi.

Inteko ishinga amategeko yateranye buri wese mu mwanya we, harimo abadepite bagiye batandukanye akabamo n'abasenateri bayobowe na perezida wa sena urimo kubagezaho ibyagezweho.

Abaturage babyukiye ku biro by'abayobozi babo kugira ngo basobanuze gahunda ya ejo heza nziza kuko ibafitiye akamaro haba kuri bo ndetse n'imiryango yabo mu gihe kizaza.

Abayobozi batandukanye, abagore ni bo biganje, bose bafashe ku idrapo ry'igihugu cy'u Rwanda, barimo baratanga indahiro zabo ziri kwakirwa n'abayobozi.

Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane madame Uwiringiyimana Agatha, ifoto ye yanyuma yafashwe izwi ni iyingiyi kandi yari yishimiye arimo aseka.

Umugore wicaye mu ntebe y'umukara, wicaranye n'umugabo wambaye ikositimu ya gireyi ndetse wambaye karuvati y'ubururu, wambaye n'amarinete, uyu mudamu arimo aratanga igitekerezo.

Abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye buri umwe yicaye mu mwanya we kandi aratuje hari abagabo n'abagore benshi bose bitabiriye iyi nama nyunguranabitekerezo.

Dogiteri utuma twishima akaba ari minisitiri w'urubyiruko, iyi ni ifoto ye igihe yari ari mu muhango wo kurahirira inshingano nshya yari ahawe z'uko azakorera igihugu nk'uko abyifuza.

Umukandida perezida Kagame Paul uri mu bikorwa byo kwiyamamaza, abaturage benshi bazindukiye mu mihanda kugira ngo bajye kumwamamaza bafite ifoto ye bambaye n'imipira y'ishyaka rye.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari imbere y'abaturage bamukunda kandi bamutoye arimo kuvuga ijambo, akaba ari umukandida w'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi.

Umukandida perezida Mpayimana Firipe igihe yari arimo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abantu bamufasha muri ibi bikorwa harimo umugabo umwe ndetse n'abagore babiri bakamufasha kwiyamamaza.

Urubyiruko rwazindutse cyane mu cyakare kugira ngo rujye kwamamaza umukandida perezida, bakaba bambaye imyenda y'ishyaka rya efuperi n'ingofero banafite n'amadarapo mu ntoki y'ishyaka rya efuperi.

Umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Mpayimana Philippe, uri kumwe n'ikipe ngari ishinzwe kumufasha mu kwiyamamaza mu kuba umukuru w'igihugu, ibi ngibi ni ibyabaye muri manda y'ubushize.

Icyumba giteguye neza gikoreramo inteko ishingamategeko y'igihugu cy'u Rwanda abadepite bose, buri wese akaba afite umwanya we, hakaba harimo intebe nyinshi kandi zingana n'umubare w'abadepite bose.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe ukikijwe n'ibiti byiza by'imikindo. Umuhanda uri kunyuramo umumotari utwaye umugenzi. Umuhanda usukuye kuko bawukubura buri munsi.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iri mu ibara ry'umweru, ikaba itwara ibicuruzwa kandi ikaba iriho ibyapa byamamaza amavuta yo kwisiga yitwa shayini y'abagore.

Imodoka yo mu bwoko bwa rukururana iri guca mu muhanda nyabagendwa ipakiye ibicuruzwa bitandukanye, yikoreye kontineri iri mu ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari izindi modoka ziyikurikiye.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi higanjemo ibitwara ibikoresho by'ubwubatsi, ndetse n'ibinyabiziga byikorera ibicuruzwa. Harimo na moto zitwara abagenzi ndetse n'abantu babisikana.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ikamyo ya hoho, gitwara imicanga, amabuye ndetse n'ibindi. Kirimo kugenda mu muhanda nyabagendwa, urimo n'amagare. Hakurya yaho haparitse imodoka.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange izwi nka KBS , ikaba itwara abantu benshi icyarimwe baba bicaye n'abahagaze iri kubisikana na moto itwaye umugenzi umwe.

Umugabo urimo gusunika akagorofani gatoya atwaraho imizigo igiye itandukanye, ari mu muhanda arikuwambuka, harimo na moto nyinshi cyane kandi hafi aha hatangirwa serivisi zitandukanye, nk'iza ekwiti, iza emutiyene n'izindi.

Imodoka itwara imizigo ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye yo mu bwoko bwa fuso, irimo irinjira mu muhanda kandi yatanze ikimenyetso cyerekana y'uko igiye kwinjira mu muhanda.

Nyabugogo ahakorerwa imirimo igiye itandukanye hari abagabo babiri bahahagaze, umwe ari mu modoka undi atwara imizigo ku ngorofani, barimo kuganira kandi bari kungurana ibitekerezo rwose.

Inyubako iri mu mujyi wa Kigali igeretse inshuro zirindwi, iruhande rwayo hari ibiti byiza cyane byifashishwa mu kuba byakusanya ndetse bikanasukura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda urimo gucamo moto itwaye umugenzi ndetse n'umunyonzi nawe atwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda hari igikamyo kinini kifashishwa mu gutwara ibicuruzwa.

Umuhanda ugendwamo mu byerekezo bitandukanye ukaba urimo ibinyabiziga byinshi urugero amakamyo, amamoto ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu muhanda ukaba iyo bwije uba ufite amatara awucanira rwose.

Imodoka ya yego kabuzi, ushobora guhamagara icyenda rimwe, icyenda rimwe, ukaba wayibona aho waba uri hose. Ni imodoka itwara abagenzi iba isize amarangi y'umweru n'umuhondo.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa pirive ya Yego kabuzi, mu gihe uyikeneye ushobora guhamagara icyenda, rimwe rimwe, icyenda rimwe, icyenda rimwe, ikaba ifite amarangi y'Umweru n'umuhondo, aho uyibonye hose wayitega.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto izwi nka rifani yifashishwa mu gutwara imizigo ndetse hari n'ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite irangi ry'umutuku nayo itwara imizigo urugero, nk'ibikoresho by'ubwubatsi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara ibicuruzwa, isize ibara ry'ubururu. Ikaba iri mu muhanda w'icyerekezo kimwe, hakurya mu wundi muhanda hari indi modoka y'ivatiri irimo kubisikana nayo.

Ikamyo nini cyane yifashishwa mu kugira ngo itware beto iyivana hamwe iyijyana ahandi, ikaba iyigezayo nta kibazo na kimwe yagize, kuko iba yizewe kandi igenda yihuta.

Umuhanda urimo ibinyabiziga harimo moto harimo n'ikamyo itwara ibicuruzwa y'umweru. Mu gahanda k'abanyamaguru hari umugore urimo kujya muri gahunda ze zitandukanye.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ya company ya Ritco irimo abagenzi, irimo iragenda mu muhanda nyabagendwa. Mu gahanda k'abanyamaguru hari umugabo wikoreye umufuka.

Imodoka zitwara abagenzi ziparitse muri gare, abagenzi barimo kuza bazigana kugira ngo zize kubatwara. Harimo bisi nini cyane ya yutongo iparitse ahagana hepfo, hamwe na bisi ntoya itwara abagenzi bake.

Nijoro amatara amurikira umuhanda aba arimo kwaka, kugira ngo abantu bagende babona, hano mu muhanda hari na bisi itwara abagenzi mu buryo bwarusange itegereje abagenzi.

Mu muhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, imbere hari ikamyo yo mu bwoko bwa fuso, hafi yayo inyuma hari bisi nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya kebiyesi.

Amagare aparitse ku nkombe z'imihanda, ategereje abagenzi. Iyo bwije, uyu muhanda umurikirwa n'amatara leta y'u Rwanda yashyizeho, bityo bikarinda impanuka, n'abawukoresha bakumva batekanye.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye n'abanyamaguru bose bakaba bagira ngo batahe bagere mu rugo amahoro, amatara yatangiye kwaka bisobanuye yuko bwije bakeneye gutaha.

Umuhanda nyabagendwa wo ku Kinamba urimo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibya moto, hepfo yaho hari inzu zikorerwamo amakampani atandukanye urugero, nk'iyo hepfo ikoreramo kampani ya raki beti hafi yaho ,hari n'umwagenti wa MTN.

Umuhanda urimo ikamyo isa ubururu, yo mu bwoko bwa fuso, ikaba ihagaze kugira ngo bayipakiremo. Umugabo umwe arimo kuyipakiramo ibikoresho by'ubwubatsi, by'ibyuma.

Umuhanda urimo imodoka ziri kubisikana, ivatiri y'umutuku y'umuryango umwe, irimo kubisikana n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa pirive ya yego kabu.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ya sosiyete ya Sitela egisipuresi, ikaba iparitse kugira ngo itegereze abagenzi ibajyane mu byerekezo bigiye bitandukanye bari bube bagiyemo.

Umuhanda urimo icyerekezo kimwe, hakurya yawo hari ibiti byiza cyane, bigize ubusitani bwiza. Hari umumotari uri mu muhanda, watwaye umugenzi.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, itwikiriye neza itwara ibicuruzwa irimo umushoferi ndetse n'umwunganira. Barimo guca ku igare ritwawe n'umuyonzi nawe uhetse ibintu ku igare rye.

Imodoka ikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri bashaka gukorera uruhushya rwa burundu iri kugenda mu muhanda.

Kafuri zone mu Rwanda ni ahantu hatemerewe kugendwa n'imodoka, abantu bose bashaka kuba baganira, cyangwa se guhura bakagira ibyo bakorana, bose bashobora kuhajya kandi haba hari interinete y'ubuntu.

Imihanda myiza cyane yubatse mu mujyi wa kigali bakoreramo siporo kandi n'abantu batwaye amagare bakahanyura bafite umutekano usesuye rwose kuko nta binyabiziga bindi bibasha kuba byagera muri uyu muhanda.

Ikipe iri ku kibuga cy'imyitozo gifite amazamu abiri. Iki kibuga kiriho tapi ku buryo abakinnyi babasha gukina nta kibazo bafite kandi bagakinira ahantu heza.

Sitade nziza cyane iberamo umukino wa vore, ikaba itwikiriye ndetse kandi ikaba ari ku zuba kuko akayaga kaba gakenewe mu gihe harimo kuba imikino kandi ubushyuhe ntibubasha kukwica.

Ikibuga kinini cyane giteyemo ubwatsi bwiza cyane butoshye kandi harimo n'ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka. Hari utuntu two kwicaraho kuburyo buri muntu ashobora kuharuhukira rwose.

Icyapa cyo mu muhanda, ishusho yacyo ni mpandeshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ikirango cyayo cyandikishije ibara ry'umukara. kikaba kimenyesha y'uko imbere hari korosi abashoferi bagomba kwitondera.

Icyapa cyo mu muhanda, giteye ku ruhande rw'umuhanda w'iburyo, kimenyesha abashoferi yuko imbere hari ikorosi rikatirwa ibumoso, kugira ngo bahagere biteguye, birinde impanuka.

Ibyapa byo mu muhanda, icyambere ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ikirango kikaba kiri mu ibara ry'umukara. Hanyuma ikurikiyeho na yo ishusho ni mpande eshatu n'ikirango cy'umukara n'umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa kiranga nimero y'igipangu kiri ku gipangu gisize ibara ry'umuhondo cy'icyapa cyanditseho KG magana atanu mirongo itanu est ikaba ari nimero ya cyenda.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu, kiri mu ishusho y'umweru cyandikishije ibara ry'umukara, kigaragaza yuko imbere hari dodani, abashoferi bagomba kugenda bitonze.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza aho umuhanda uhurira n'undi, kiri mu ishusho y'umuhondo, kikaba cyandikishije amabara y'umukara, kikaba kimenyesha abashoferi yuko bagiye kwinjira mu wundi muhanda.

Umuhanda nyabagendwa, ufite ibyapa bigiye bitandukanye, hakurya hari aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebura korosingi. Iyo imodoka zihageze zigomba guhagarara.

Icyapa cyo mu muhanda ishusho ni uruziga ibara ni ubururu, kikaba kimenyesha aho banyura bazengurutse, buri muntu wese utwaye ikinyabiziga iyo ahageze ahita amenya icyo icyo cyapa kimenyesha akabikurikiza.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'umuhondo, kikaba cyereka abari mu muhanda bose yuko umuhanda barimo imbere gato winjirwamo n'undi muhanda uturutse muri karitsiye kugira ngo birinde impanuka.

Icyapa kiri mu ishusho y'umutuku cyanditseho sitopu, kikaba kimenyesha umushoferi yuko igihe cyose ageze aha agomba kugenda gake ndetse agahita ahagarara kugira ngo abashe kureba neza imodoka ziri mu cyerekezo agiyemo.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, ndetse kikaba hagati hari ibara ry'umweru, iki kimenyesha abashoferi y'uko uyu muhanda ari ukuwugendamo neza.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya oranje kikaba gifite ibirango by'umukara, kikaba kimenyesha yuko ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa umuntu ashobora guparikaho, cyangwa se bisi zifashishwa mu gutwara abagenzi zikahaparika.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'umuhondo ariko cyandikishije amabara y'umukara, kikaba kimenyesha yuko imbere gatoya hari icyapa gihagararaho tagisi bityo umushoferi akabasha kubimenya.

Inzu ndende yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya asa umweru yubatse kandi nk'urusengero imbere yaho hari ibiti byiza bitanga akayaga ndetse n'umwuka duhumeka mwiza iruhande rwayo hari ikigega.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, kandi ikaba ifite amabati y'umutuku. Iri mu gipangu cya yonyine ahantu heza cyane kandi imbere yaho hateye aka jaride keza cyane hari n'umuhanda wa kaburimbo ugerayo.

Agahanda kanyuramo abayamaguru gaca ahantu hari agakiyosike keza cyane gacuruza amata ndetse n'ikawa, hakaba hari n'ibiribwa bitandukanye, ushobora no kuba wakoresha sipesiyare ukasohokanira n'umukunzi wawe kandi mukava mwishimye.

Umuhanda nyabagendwa, hafi yaho hari icyapa kinini cyanditseho stop. Inyuma yacyo hari igipangu cyubakishije ruriba, kandi gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, ndetse n'ibindi.

Inzu zo mu bwoko bwa kadasiteri ziri ahantu mu gipangu kimwe, munsi yazo hari inzu itageretse kandi ya gitwe kimwe, ikaba isize irangi risa nka shokora, hasi ikaba ifite ibirahure biri mu nzugi binini cyane bya fime.

Uruganda rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, rukaba ruherereye mu cyanya cy'inganda aho ziba zisabwa kuba ziri kugira ngo zitabangamira abaturage muri rusange.

Kiriho kaburimbo kikaba gituranye n'ibindi bipangu bibiri nabyo by'imikara, neza neza biteye kimwe n'iki ngiki aha hantu harasa neza kuko hari umuhanda mwiza.

Inyubako ndende y'amagorofa abiri, ifite amabati y'umutuku, igipangu cyayo kirakinguye akaba ariho UNESCO ikorera mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ndende igeretse kane isize amarange y'umukara kandi ifite ibyuma bishinzwe kuzana ubukonje n'ubushyuhe mu nyubako, iyi nyubako igeretse inshuro eshatu kandi irimo na esanseri ijyana abantu.

Inzu eshatu zikurikiranye, imwe ikaba igeretse inshuro imwe, n'indi ikaba igeretse inshuro imwe, zombi zifite igipangu cy'umukara, zikaba zifite amarangi y'umweru ndetse hejuru zikaba zisize amarangi y'icyatsi kibisi.

Inzu ziri mu bipangu bitandukanye hakurya hari inzu nini cyane igeretse gatatu. Yubakishije amabati y'umutuku ndetse Inasize irangi ry'umuhondo, inyuma yayo hari ishyamba.

Umujyi wa Kigali uba waka iyo ari nijoro, kuko imihanda yawo irimo amatara imodoka ziri guca muri uyu muhanda ziri kugenda zibona neza kuko haba hasa neza kandi habona.

Parikingi irimo imodoka zitandukanye, ahabanza hari imodoka yo mu bwoko bwa toyota y'umutuku ikaba ikurikiwe na jipe nziza cyane y'umukara abamaze kuziparika bari kugana mu nyubako izegereye.

Ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka, bityo bikaba biduha umwuka mwiza wo guhumeka, bikazana akayaga keza ndetse n'amafu, hirya yaho hari intebe bagenzi bicaramo bategereje imodoka zibatahana.

Parikingi iirimo imodoka zigiye zitandukanye, hakaba hari imodoka za parado randikiruza, harimo imodoka z'amavatiri, hari imodoka za yundayi, iza toyota n'izo mu bwoko bwa benzi nziza cyane.

Inyubako ndende ikorerwamo n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye, imbere yacu hari foruza beti, foruza beti ikaba itanga serivisi zijyanye no kubetinga ku mikino y'amahirwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inyubako ndende ifite ibirahure bya fime ikaba igeretse kabiri, ifite irangi ry'umuhondo ndetse imbere y'aho hari abantu bari kugenda bayicaho, munsi hakoreramo abantu batandukanye.

Inyubako ikoreramo bank of Kigali, ikaba iherereye mu Giporoso, iri ngiri ni ishami rya Giporoso yubakishije amatafari ahiye kandi igeretse kabiri.

Kimironko kwa Mushimire hari imihanda igiye igabanyije mu ma karitsiye kandi yose irimo kaburimbo, irakoze neza cyane, hirya y'aho hari igipangu kirimo ibiti byiza bitanga akayaga kandi hari n'ubusitani bwiza.

Inyubako isize amarange y'umuhondo, yanditseho sinagita interiyozi, ikaba ariho bakorera. Ikaba ifite n'umuhanda imbere yayo, kandi hari na parikingi nini.

Imodoka yifashishwa mu gutwara inyama, izivana mu mabagiro manini igenda izigemura mu ma busheri ari mu makaritsiye, ikaba iri mu muhanda urimo n'izindi modoka, irimo irajyana inyama ahantu bazikeneye hose.

Umuhanda uva muri quaritsiye werekeza mu muhanda munini ,iyo uvuye mu muhanda mutoya ujya mu muhanda munini uritonda cyane ukabanza ukareba imodoka zose kugirango utaza kwinjiramo nabi bityo bigateza impanuka.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe, ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, harimo imodoka ndetse n'ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo y'abantu hamwe n'ibicuruzwa. Uyu muhanda ufite n'amatara awumurikira.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi, ufite aho bambukira abanyamaguru, iyo imodoka zihaga zihagarara akanya gato, kugira ngo abanyamaguru babanze bambuke, uyu muhanda urasukuye, kandi urimo n'ibiti byiza cyane binogeye ijisho.

Imihanda ya Kigali, iyo ari nijoro iba icaniwe neza n'amatara kuko buri muhanda mu mujyi wa kigali harimo amatara amurika, bityo abatwaye bakabasha kugenda babona neza umuhanda.

umuhanda uva muri karitsiye ukinjira mu muhanda nyamukuru; ni ukuvuga umuhanda munini. Hafi aho ngaho hari akayira k'abanyamaguru kaba karimo abanyamaguru bajya ahantu hatandukanye baba abagiye mu kazi.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo w'icyerekezo kimwe winjirwamo n'undi muhanda uri guturuka muri karitsiye abashoferi iyo bahageze baritonda cyane.

Umuhanda wo ku Muhima munini cyane urimo amatara awumurikira, kandi uyu muhanda urimo kaburimbo, hirya yaho hari jaride nziza ibereye ijisho irimo n'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa wo mu Kanogo urimo imodoka z'ubwoko butandukanye higanjemo iz'abantu ku giti cyawo zirimo kuzenguruka ahitwa rompuwe kugira ngo zikomeze urugendo.

Imodoka itwara ibicuruzwa byinshi icyarimwe iri mu bwoko bwa rukururana, ikaba irimo irava muri Tanzaniya, izanye ibicuruzwa mu Rwanda. Iri ku ruhande rw'u Rwanda, hafi yaho hari ibiti byiza kandi hari n'ishyamba.

Umuhanda nyabagendwa uva muri karitsiye ukinjira mu muhanda munini, uyu muhanda ufite icyapa kiwuranga cya magana atandatu mirongo inani n'umunani keyi je iruhande rwawo haparitse abamotari bategereje abagenzi.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye, uyu muhanda ukaba winjirwamo n'umuhanda muto uva muri karitsiye kandi ukaba uhora urimo ibinyabiziga urugero nk'amamoto, imodoka, amagare n'ibindi.

Umuhanda wo ku Kinamba ukaba uriho aho ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bishobora guparika, uyu muhanda kandi urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye urugero, nk'ibitwara abantu ku giti cyabo n'ibyifashishwa mu gutwara imizigo.

Umuhanda ufite amatara awumurikira nijoro kugira ngo abawugendamo baze kuba babona neza ukaba ufite ubusitani bwiza cyane bugiye buteye hagati mu muhanda utandukanya ibyerekezo byombi, hakurya y'umuhanda hari inzu ikorerwamo n'abacuruzi.

Umuhanda umwe uca munsi, undi ugaca hejuru, munsi harimo ibinyabiziga, amamoto, imodoka, n'ibindi naho hejuru ho nta kinyabiziga kirimo kunyuramo kuko nta binyabiziga bihari byo kuhanyura.